Ihuriro ry'abantu bari muri gacaca ari benshi cyane hari abicaye n'abahagaze n'umwe urikuvuga, bamwe bicaye bakaba bicaye mu busitani busa icyatsi abahagaze bakaba begereye igiti kirekire nacyo gisa icyatsi.

Ihuriro ry'abantu bambaye neza harimo umugore wambaye agapira k'icyatsi, ishati y’icyatsi, ikoti ry’umweru, wambaye amarinete, useka neza na mugenzi we wambaye imyenda y’ubururu, ufite imisatsi miremire, bakaba bari bakikijwe n’abandi bantu bagiye bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe z’umweru.

Umuntu w'umugabo w'igikara ukorera ikigo mpuzamahanga cya yuwesi eyidi wambaye agapira ka oranje, mu kiganza cye ucigatiye mu nyunguramajwi isa umukara, akaba yari ari kuvugisha bagenzi be bicaye iburyo bwe na bo bambaye imipira ya yuwesi eyidi isa amabara ya oranje.

Abantu batatu bari mu nama harimo abagore babiri bambaye amarinete asa umukara umwe akaba yambaye agapira k'umutuku n'ikoti ry'ubururu akaba yicaye ku ntebe y'umukara na mugenzi we wambaye agakoti k'ubururu n'agapira k'umutuku ahaba yicaye ku ntebe y'umukaraba bari kumwe na mugenzi wbo w'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'agakoti k'ubururu.

Icyumba cy'inama kirimo abagabo batanu bose bambaye amakoti y'umukara, baka biteretse amazi yo kunywa y'inyange, n'undi mugenzi wabo ubegereye wambaye ikoti ry'icyatsi n'umugore ufite imisatsi miremire.

Umugabo wambaye marinete wambaye ishati na karuvati byuumukara n'ikoti'umukara nsaha ni'mpeta ku kuboko kwe kw'ibumoso akaba yari afite indangururamajwi y'umukara imbere ye uri kuvugira mu nama iby'abayobozi b'u Rwanda.

Umugore wambaye agapira k'amaboko maremare karimo amabara y'umukara n'umweru, ucigatiye mu kiganza cye inyunguramajwi isa umukara, imbere ye hari ameza nayo asa umukara, inyuma ye ari kwamamaza serivisi zo mu rugo.

Igipapuro kiri ku rubuga rw'irembo kigaragaza serivise nshya irembo yazanye, aricyo kemezo cy'utishoboye wacitse ku icumurya jenoside.

Icyumba kinini cyane cyubakishije inkingi n'inkuta z'umweru kirimo abantu benshi bambaye amabara menshi abanyegereye hakaba hari umutegarugori wambaye amaherena w'inzobe ufite agasatsi gake wambaye agapira kamaboko maremare na mugenzi we begeranye w'igikara w'umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi bose bakaba bari bacometse mudasobwa zabo.

Abana bishimye bambaye imipira y'umutuku bambaye n'imidari bafite ibikombe bitatu bisa amabara y'umuhondo, bakaba bari bambaye n'amapantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Igipapuro kinini kiri mu mu marangi asa ubururu n'umweru cyamamariza irembo, kimanitse ku rukuta rw'inzu rusize amabara y'icyatsi, umuhondo n'umukara bikaba bitambitse.

Inzu yubucuruzi yubakishijwe amatafari munsi y'amatafari harimo utundi tuzu tw'ubucuruzi dufite amabara y'ubururu n'umweru, hirya yaho hari abantu bahagaze bambaye umupira w'umutuku n'uwambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'ikabutura.

Icyapa cy'ubururu cyamamaza ikiganiro kubyingezi mu imisoro iri kuvugwa muri iyi minsi, hakaba hari umugore bitandikiriye mu amabara y'umukara hari umugabo wambaye ishati y'umweru karuvati n'ikote ry'ubururu.

Umugabo ukora iby'amashanyarazi wambaye ingofero y'umuhondo, ishati y'amaboko maremare y'ubururu n'ipantaro y'ikigina, akaba yari yuriye igiti cyikorera imigozi isa umukara y'amashanyarazi, akaba yarari gukora ibyerekeye n'amashanyarazi.

Umuntu wambaye imyenda y'ubururu uhagaze hafi y'igiti cyikoreye imigozi ijyana amashanyarazi isa umukara, akaba yarari kumwe n'uwambaye agasengengeri k'umukara bahagaze hafi y'igipangu gisize amabara ya kaki kikaba cyubakishije amatafari.

Icyuma cy'amashanyarazi gisa umweru cyikoreye imigozi y'amashanyarazi, kikaba gikikijwe n'ibihuru hakaba hari n'ibiti birebire n'ibigufi n'ibigori n'igitoki by'ubwoko bwose.

Inzu yu'ubucuruzi ifite inkuta z'umweru, yubakishije n'inkingi za matafari, n'ayandi mabara yiroza kikaba kegeranye nigiti kirekire kikoreye imigozi y'umukara itanga amashanyarazi, munsi y'icyo giti hakaba hari harambititse matora zigera kuri eshatu n'agatebe k'umweru

Umuhanda uri kwinjira mu bitaro bya CHUB, bikaba birimo ibinyabiziga bigana kuri ibyo bitaro, bisize amarangi ya kacyi, bifite amabati asa n'umutuku, imbere hirya gato hari ibendera ry'igihugu kirimo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi by'u Rwanda.

Abategarugori benshi bafite abana n'abatabafite bagiye bambaye imyenda itandukanye y'amabara menshi, bicaye ahantu hamwe bari ku murongo, bategereje serivisi zo kwa muganga cyangwa se serivisi za leta.

Inzu zo kwa muganga zubakishijwe amatafari n'amakaro aho bakarabira intoki, hari umwana wicaye mu kagare k'ibicumba wambaye agapira k'umuhondo n'ubururu n'agatambaro ka orange.

Umugabo w'igikara wicaye, ubyibushye, wambaye amarinete, akaba yambaye n'ishati y'umweru, n'ikoti ry'umukara, n'isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, akaba yari yafatanyije ibiganza bye yabihuje.

Icyumba cy'abacamanza bambaye amakanzu y'umukara bagera kuri cumi na batanu harimo abagore n'abagabo, imbere yaho hakaba hari ibiti birindwi by'amabendera y'u Rwanda bisize amabara y'umuhondo, icyatsi n'ubururu imbere yabyo hakaba hari abambaye amakanzu y'umutuku.

Inama ivuga ku butunzi rusange n'ishyirahamwe ry'abacamanza ikaba yariyobowe n'umugabo w'umunyarwanda usa igikara wambaye marinette asa umukara ikaba yari yambaye ishati y'umweru na karuvati y yuubururu n'ikoti ry'ubururu akaba yariri kuvugira ku ndangururamajwi zisa umukara ebyiri.

Igikuta kirekire kinini cyubakishijwe amatafari munsi yaho hariho urugi rusa ubururu, hirya gato hariyo abagabo barebare, bagufi bose basa ibikara nta misatsi bafite bakaba bari batondetse ku murongo bambaye imyenda y'amabara y'iroza aba akaba ari abagororwa.

Umupolisi wambaye imyenda y'umukara, uhagaze hafi y'ikinyabiziga cye gisa umweru n'umukara. Hirya ye hakaba hari igiti kirekire cyane gisa icyatsi, gikingirije ikindi kinyabiziga gisa umweru n'umukara cy'umupolisi.

Umugabo w'umunyafurika, w'umunyarwanda, w'igikara wishimye ashyigikiye ishyaka rye, yambaye umupira w'ubururu n'ingofero y'umweru, akaba yegeranye na mugenzi we wambaye umupira w'umutuku umanitse amaboko, uteruye imbago z'umukara, hakaba hari n'abandi bambaye imipira y'umutuku niy'ubururu.

Umunyarwandakazi uzwi ku mazina ya UWIRINGIYIMANA Agatha, akaba yambaye ikanzu y'umweru irimo ubururu, mo imbere akaba yambaye agasengeri k'umweru, akaba arambuye amaboko ibiganza bigaragara, intoki eshanu, akaba ari mu bantu benshi.

Ikirangantego cy'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki, kikaba cyari gisize amabara y'ubururu, umuhondo, n'icyatsi, inyuguti zanditse mu mabara y'umukara, munsi yaho handitse demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure biri mu inyuguti zisize umweru.

Abagabo batatu bari kwiyamamaza bahagaze imbere yinindangurura majwi isa umukara inyuma yaho hari umugore wambaye imyenda yumukara imbere ye hari ameza ari agatambaro k'umweru bakaba bari bakikijwe n'inzu zubatse zifite amabara y'ubururu n'umuhondo.

Icyumba cy'inama y'imishyikirano, cyuzuyemo abayobozi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara na karuvati z'ubururu n'amashati y'umweru, umwe, umwe akaba ari inzobe undi ari igikara, imbere hakaba hari indangururamajwi n'amazi y'Inyange n'agakombe k'itasi yu

Umuhanda uri kugendaho umuntu wambaye ipantaro yumukara na bote z'umukara nishati y'amaboko maremare n'agapira k'icyatsi hirya ye mu muhanda harimo ikinyabiziga cyikorera ibintu gisa ubururu n'amapine y'umukara.

Umuhanda urimo ibinyabiziga binini kimwe gisa umutuku n'ikindi gisa ubururu, bikoreshwa muri serivisi zo kwikorera mugihe bari mu bwubatsi.

Imodoka iparitse kumuhanda, imodoka isa umweru ifite amapine y'umukara ifite n'amarangi y'umuhondo, ikaba iparitse ku muhanda , ukikijwe n'ibyuma by'umutuku bitangira cyangwa se binahagaritse imodoka.

Ibinyabiziga bibiri biri mu muhanda, biri mu bwoko cyangwa se bishinzwe gutwara abantu ,kimwe cyari kiriho abagenzi babiri, ikindi nikijyamo, kijyamo abagenzi benshi kikaba gisa umweru n'umuhondo iki kindi kiriho abagenzi bacye gisa umukara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'ibiziga bibiri cy'amabara y'umutuku n'umukara, kiriho umumotari wambaye agapira k'amaboko maremare k'umukara n'umwenda w'akazi wamabara y'umuhondo n'ubururu n'ingofero y'ubwirinzi by'umuhondo, akaba yari yambaye ipantaro yamabara y'ikigina n'inkweto z'umukara.

Umuhanda urimo ikinyabiziga kimwe gisa umuhondo, gifite n'igishitingi kiyitwikiriye inyuma gisa umweru, uwo muhanda ukaba wari urimo umunyamaguru wambaye agapira k'umutuku wikoreye, umuhanda ukaba wari ukikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi.

Ikiraro kinjira mu muhanda urimo ibinyabiziga bitatu, bibiri muri byo bifitemo ibiziga bibiri n'ikindi kimwe cy'ibara ry'umweru gifite ibiziga bine, iruhande gato hakaba hari ibiti n'ibindi binyabiziga bakoresha mu bwikorezi.

Umuhanda urimo abantu benshi n'ibinyabiziga byinshi. Imbere yanjye hakaba hari ikinyabiziga gikoreshwa mu gutwara ibintu byinshi cy'ibiziga bine gisize amabara y'ubururu.

Umuntu uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi, wambaye imyenda y'umukara. ufite indangururamajwi y'umukara, inyuma ye hakaba hari ikigega cy'umukara kijyamo amazi aturutse k'umureko w'inzu. N'inzu yubatse n'amatafari ahiye.

Ikiraro kiri kwinjira mu muhanda urimo ikinyabiziga cy'ibiziga byinshi kiremereye cyikorera cyikorera esanse kikaba cyasaga amabara y'umweru n'ibiziga by'umukara, umuhanda ukaba wari ukikijwe n'ibiti birebire n'agatambaro k'icyatsi.

Intebe zo muri sitade ziri mu mabara y'icyatsi ziriho ubusa, nanone hakaba hicayeho umuntu wambaye agapira k'umutuku n'ipantaro ya kaki, n'inkweto z'umweru n'undi muntu wambaye agapira k'umweru, na mugenzi we wambaye ishati y'amaboko magufi.

Icyapa cya mpande enye, kiri mu mabara y'umuhondo n'umukara, kikaba cyayoboraga cyangwa kigaragaza aho umuhanda ukomereza ukagira n'undi uwinjira mu gihande cy'iburyo.

Icyapa kigaragaza ubwubatsi, kikaba cyari kiri mu mabara y'umukara, umutuku, umuhondo, kikaba cyari gishushanyijeho umuntu uri kujomba igiti mu bintu, byose bikaba byari bifite amabara y'umukara.

Icyapa kirekire kiyobora kinagaragaza aho imihanda itandukaniye naho iri, kikaba kerekanaga imihanda ibiri umwe bise gatatu n'undi bise mirongo itatu byose bikaba byanditse mu nyuguti zisa umukara.

Ni icyapa gitegeka kibuza abanyonzi kunyonga kikaba gisa umutuku n'umukara, kikaba gishushanyijwe n'akaziga gaciyemo hagati kerekana ko igare ritemewe, hasi hakaba handitse mu magambo y'umweru hakaba handitse ko nta gare ryemewe.

Icyapa kiyobora abagenzi kiri mu mabara y'umweru n'umukara n'umutuku kikaba gikikijwe n'ibihuru byinshi inyuma yacyo hakaba hari ibiti birebire bizamuye.

Icyapa kiyobora kinaranga uko umuhanda ukomeza kugana imbere n'undi muhanda winjira mu kuboko kw'ibumoso, kikaba cyari gifite amabara y'umweru n'umutuku n'umukara kikaba cyari gikikijwe n'ibiti birebire.

Icyapa kiburira cyerekana ko hari umuhanda winjira mu wundi uvuye iburyo, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara atatu ariyo umutuku, umweru n'umukara.

Kaburimbo yegeranye n'inzu y'ubucuruzi, isize amabara yi'icyatsi n'inkingi z'umweru ku mabati ikaba ifite amabati asaumutuku, munsi yaho y'inkingi z'mweru ikaba ifite ibyapa bibiri kimwe cy'ubururu gikoreramo aho bagurira amata n'ikindi cy'umweru kiri mu nyuguti zicyatsi, aho bagurira imiti yo kwa muganga.

Inzu igeretse kabiri ifite igipangu gisa umukara amadirishya n'inzugi bifite ibyuma bisa umukara, inzu ikaba isize amarangi y'icyatsi n'ikigina.

Ibinyabiziga bibiri bihagaze mu muhanda harimo kimwe gitoya gitwara abantu n'ikindi kinini cyikorera ibintu kiri mu mabara y'icyatsi, uwo muhanda ukaba wari utandukanyije ibiti birebire biri mu busitani, ubwo busitani bukaba bwari bukikijwe n'igihuru.

Umuhanda wera utarimo ikinyabiziga na kimwe, usize amabara y'umuhondo, umweru n'umukara, utatswe n'ubusitani burimo ibiti, igiti kimwe cy'umukindo n'ikindi cyuma gisa ikigina kicyegereye.

Umuhanda urimo aho umunyamaguru yagakwiye kwambukira, ukaba urimo ibyuma bigenzura imitambukire n'imihagarikire y'ibinyabiziga n'abantu, hakaba harimo n'imashini igenzura umuvuduko w'ibinyabiziga.

Kaburimbo irimo abantu bagenda n'amaguru, irimo ibinyabiziga byinshi, kaburimbo ikaba yari inatatswe n'ubusitani bugiye burimo ibyatsi bikase, bikatiye hasi n'ibiti by'ubwoko bwo mu mukindo bitatu, kandi bikaba bitagaragara neza binacuritse.

Akayira karekare kubakishijwe amatafari karimo umutegarugori wambaye ikanzu ndende y'umukara unahetse n'igikapu, ako kayira kakaba katandukanyaga ubusitani bw'ibyatsi bisi icyatsi biciye, neza hakaba hari harimo n'ibiti birebire ariko bitagaragara.